Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishati irimo uturongo twa shokora n'umweru n'ikanzu y'umweru, ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kuri kandagira ukarabe ifite indobo y'icyatsi n'ibase y'icyatsi.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, harimo umugore wambaye umupira w'icyatsi, ufite icyuma mu ntoki, uri gufomba kugira ngo babashe kuvomera mu majerekani y'umuhondo, bari kuvomera rusange.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gore bambaye imipira y'umweru, bateruye abana bambaye imipira ya orange, n'abandi b'igitsina gabo bambaye imipira ya orange bari guha abana amata mu nkongoro.

Abantu babiri harimo umwe w'igitsina gore n'undi w'igitsina gabo ufite terefone mu ntoki ze, imbere yabo hari ameza ateretseho imiti, ndetse n'ikirahure kirimo amazi meza.

Mu nzu harimo abantu babiri, igitsina gore yambaye umupira urimo uturongo tw'umutuku n'umukara n'igitsina gabo wambaye umupira w'umutuku n'amadarubindi, ku meza hateretse ibikombe ndetse n'amadarubindi, biragaragara ko bagiye gufata imiti.

Abantu babiri umwe w'igitsina gore ufite impapuro mu ntoki ze n'undi w'igitsina gabo wambaye amadarubindi yo kugaragara ko ageze mu za bukuru, imbere ye kumeza hateretse ikirahure cy'amazi n'ikaye agiye gufata imiti.

Abantu batatu bose bageze mu zabukuru, umwe wambaye umupira w'umweru n'undi wambaye umupira w'umuhondo ufite terefone mu ntoki ze n'undi wambaye umupira w'ubururu bwerurutse, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu benshi cyane bambaye udupfukamunwa, ingofero z'umweru n'amasarubeti y'amashashi y'umweru, biri kugaragara ko bari kwirinda indwara zandura.

Abantu benshi cyane, harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'urubaho, imbere hari n'undi w'igitsina gabo wambaye kositimu, uri kubabwira ari imbere yabo, hari n'abandi babiri bicaye imbere yabo, bari kurebana.

Inyubako yo kwa muganga irimo abantu benshi batandukanye, igitsina gabo, igitsina gore, harimo n'abambaye udupfukamunwa, harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'umutuku n'ingofero y'umweru, ari kureba muri ekara.

Abantu benshi bari mu kibuga, umwe yambaye isengeri y'umutuku yanditseho ibihumbi bitanu magana atatu na kabiri, n'undi wambaye ijire y'icyatsi, bigaragare ko agize ikibazo agiye kumwitaho yavunitse.

Ikirahure bari gusukamo amazi meza cyane yifashishwa kuyanywa, kugira ngo umuntu yirinde indwara zitandukanye zandurira mu kunywa amazi mabi.

Imiti myinshi y'ubwoko bwa kinyarwanda ya sosiyete ya Aliance ivura ibintu bitandukanye, iri mu karito byinshi bitandukanye bifite n'amabara atandukanye, icyatsi, umuhondo, ubururu ndetse bagira n'ikawa yabo.

Agakarito gafite ibara ry'umweru n'ubururu n'umuhondo, mo imbere kaba karimo imiti ya kinyarwanda ya sosiyete ya Alliance ivura indwara zitandukanye handitseho Choleduz omega.

Akabati gapanzemo imiti ya Kinyarwanda ivura indwara zitandukanye harimo igisura, ibumba, amakara, ndetse n'indi miti myinshi ivura indwara zitandukanye.